Abagore babiri umwe akenyeye umukenyero, undi yambaye bisanzwe . Bakaba bari imbere y'imbaga aho babaye indashyikirwa mu mikorere y'isibo bayoboye, bakaba bari no guhabwa ibihembo.

Abantu benshi cyane biganjemo abayobozi, bakaba bari kumwe inzego z'umutekano, zirimo abasirikare ndetse n'abapolisi bose bambaye impuzankano, bakaba bici mu gishararaga, aho bakurikiye umugabo uri kubaha imbwirwaruhame.

Umugore ubyibushye yambaye amataratara afite n'ikaye mu ntoki, ayoboye inama aho ari kuganiriza abaturage ku buryo bagomba kuzajya babyaza umusaruro ubuyobozi bw'isibo bishiriyeho.

Abenshi cyane bakaba ari abayobozi mu nzego zitandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano b'abadaso bakaba bicaye mu nama buri wese afite agacupa k'amazi, imbere hari abatumirwa bari kubaganiriza ku nsanganyamatsiko y'umunsi.

Abayobozi babiri bakuru b'inama ya komite mpuzamahanga y'Akarere ka Nyagatare, bakaba bicaye imbere y'imbaga, aho bari gusobanurira abaturage, gahunda yabo ndetse n'imigabo n'imigambi bifuza kuzabagezaho.

Umugabo wambaye ishati y'mweru yanditseho amagambo y'impine ya fa pa na ra, akaba ahagaze imbere y'imbaga aho afite mikoro ari kubasobanurira ibijyanye n'inteko rusange y'umuryango wa FPR inkotanyi.

Umugore wambaye imyenda y'igitaka akaba ahagaze imbere y'inama yateranyije abantu benshi ari kubasobanurira uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende ndetse n'uburyo bwo kuyirwanya ku bamaze kuyandura.

Inama y'imishyikirano yahuje abakuru b'ibihugu, bakaba bicaye hamwe mu cyumba cy'ibiganiro, buri wese afite agacupa k'amazi, bose bakaba bambaye neza, aho bakurikiye inyigisho z'uyu munsi.

Imbere imbaga nyamwinshi hari abana babiri bambaye udupira tw'umweru, aho bari gukina imikino ishimishije, inyuma yabo handitseho amagambo avuga ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Abaturage benshi cyane ndetse n'abayobozi bakaba bivaye mu nzu imwe iteye irangi ry'umuhondo, bicaye mu ntebe nziza z'icyuma n'imifariso aho baje mu nama yiga ku iterambere ry'Igihugu muri rusange n'uburyo bwo kwiteza imbere.

Umugabo w'umupolisi, yambaye amataratara ndetse n'ingofero n'impuzankano y'abapolisi, akaba afite mikoro, aho yitwa Rwakayabo, aho aribasobanurire imbaga, uburyo bwo kuririndira umutekano.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahuriye hamwe mu cyumba k'ibiganiro, aho harimo n'abashinzwe umutekano. Umwe muri bo ni umusirikari, akaba afite mikoro ari kubabwira ijambo yabateguriye.

Umugabo wambaye ikoti n'isaha akaba afite umusatsi yashokoje, afite mikoro aho ahagaze imbere y'imbaga, iruhande rwe hari igikarito kinini ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo atandukanye ariho ngo bikorere mu isibo.

Inama y'umushyikirano, yahuje abayobozi bakomeye batandukanye. Buri wese afite agacupa k'amazi ari kunywa, ndetse babiri muri bo bafite na mudasobwa barikurebamo. Imbere hakaba ari umuyobozi uri kubigisha icyabateranyirije aho ngaho uyu munsi.

Inzu nini cyane iteraniyemo abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye hakaba harimo n'abashinzwe umutekano barimo n'abadaso bakaba bahuriye mu nama yiga ku iterambere ry'igihugu.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bahuriye mu nama yabateranyirije hamwe aho hari abashyitsi bane b'imena, insanganyamatsiko y'umunsi iragira uti "rubyiruko menya amateka yawe."

Abantu benshi cyane bahuriye mu nama aho baje kwiga kuri gahunda yo kwiteza imbere.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu mugishagati, abandi bakaba bahagaze imbere y'igishaga babyina cyane bafite ibipapuro byanditseho ngo gerayo amahoro akaba ari gahunda yashyizweho na polisi y'igihugu.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, yambaye amadarubindi, akaba afite mikoro aho ahagaze imbere y'imbaga asobanurira abantu benshi cyane uburyo agiye kuzajya abateza imbere, bisa n'aho ari umuyobozi mushya batoye.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe umugabo n'umugore bakaba bafite ihembe bose bakenyeye, aho imbere y'imbaga bahagaze inyuma y'inzu yubakisheje amatafari ahiye, bakaba ari kuvuza ihembe mu buryo bwo kugaragaza umuco Nyarwanda.

Abantu benshi cyane baje mu birori, aho hari abavuzi b'ingoma ndetse n'abakobwa baririmba neza bakenyeye bigaragaza umuco nyarwanda, inyuma yabo hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari mato y'impunyu.

Abagore babiri bambaye imikenyero bakenyeye bya kinyarwanda baraserutse bakaba bari kubyinira imbaga aho bari kumurika ubudasa bw'umuco nyarwanda kugira ngo n'abo hanze mu bihugu bya kure bawumenye.

Urupapuro ruriho amafoto, y'abami bategetse u Rwanda ndetse n'uburyo basokozaga amasunzu. Hariho umwami wasokoje amasunzu abiri, undi akaba yasokoje, isunzu rimwe, abandi bakaba basokoje amasunzu atatu.

Ikibo kiza cyane kigaragaza umuco nyarwanda kikaba kiboshywe mu mikaranka, kirambitse hasi ruhande hakaba hari n'umutemeri wacyo, aho ari ikimenyetso kiza kigaragaza umuco nyarwanda.

Imitwe ibiri igaragaza umuntu umwe abona ko yaziritse utuntu tubiri mu mutwe ndetse yanasokoje umusatsi neza hirya ariho indi foto ye ari muremure yambaye imyenda.

Abasore umunani bakaba bari imbere y'imbaga bakenyeye cyane bambaye amayugi, bakaba ari ntore kabuhariwe, aho bari kubyina imbyino za kinyarwanda, ndetse banamurika umuconyarwanda.

Inzu nziza cyane itera irangi ry'umweru ikaba ari inzu ikorerwamo ibikorwa byo gukupa gukupura no gukora umuriro w'amashanyarazi. Aho bose babisanga hano bakabikoresha.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaburira umuriro abatuye umudugudu, akaba ari amapoto ashinze ndetse n'ibindi byuma birambuyeho bizajya bizirikwaho insinga kugira ngo zambuke ku mapoto.

Abantu bane nako batanu, bambaye amasarubeti y'ubururu, bakaba bari mu nzu ikorerwamo ibintu bitandukanye byiganjemo iby'amashanyarazi, bamwe bari kuyakora abandi bakaba ari abiga.

Ku rugomero rw'amashanyarazi ruri kubakwa rukiri rushyashya, hakaba hari ibyuma byinshi cyane bishinze bitegereje ko bazamenamo beto, bikaba ari ibyuma bizajya bizirikwaho insinga kugira ngo zijyane umuriro mu baturage.

Ipoto rinini cyane ry'amashanyarazi ririho insinga zirindwi aho zambukiranya umuriro ziwujyana mu bice bya kure zawukuye ku rugomero, iruhande rw'ipoto hakaba hari amashyamba menshi cyane ndetse n'ubwatsi bukiri buto.

Umuhanda mwiza cyane w'igitaka uri mu cyaro, haruguru y'umuhanda hakaba hahinze ibishyimbo, hari akazu kamwe k'ubucuruzi hakaba hari n'urutoki rwinshi cyane, hashizemo amapoto abiri aho arimo taransifo ifatiraho urutsinga rugaburira abaturage umuriro w'amashanyarazi.

Umusozi mwiza cyane uriho ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibishyimbo ariko hakaba hariho n'urutoki, hari amapoto abiri y'amashanyarazi ahahagaze, ariho transifo aho umuriro ujya muri abo abaturage bo muri aka gace ufatira.

Skuma k'ikoranabuhanga kazwi nka mubazi, kakaba gakoreshwa mu kugura ndetse no gushyira umuriro w'amashanyarazi muri konteri. Karambitse ku nzu, aho gacometseho urutsinga rumwe rw'umukara.

Umuhanda mwiza cyane ugitaka. Uri mu cyaro ukaba uri kugendamo abantu benshi cyane baba abikoreye ubwatsi ndetse n'abandi. Ku ruhande rumwe hari inzira y'agacurama, hari inzu isakaje amabati atukura ndetse hakaba hari n'amapoto ku mpande zose, aho agenda aha amashanyarazi abaturiye uyu muhanda.

Imisozi miremire iteyeho amashyamba ndetse n'ibihingwa bitandukanye, umusozi umwe hakaba hari ipironi rirerire cyane, ririho insinga z'amashanyarazi, zambukiranya umuriro ziwukura mu gace kamwe ziwujyana mu kandi.

Ibikoresho bitandukanye bifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage, ibice bitandukanye by'igihugu. Birunze hamwe, ababishinze buriho insinga, kuruhande hakaba hari inzira y'abagenzi irimo amapave.

Ahari taransifo nini cyane ikaba ikoreshwa mu gutanga umuriro mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali, hari n'abantu benshi cyane bari gukora ibikoresho byari byapfuye by'umuriro.

Akazu keza cyane gateye irangi ry'umuhondo, akaba ari akazu gato karimo ibikoresho bitandukanye by'umuriro w'amashanyarazi, hanze hari igipangu cy'ibyuma gikingira abantu bose kugera muri ako kazu.

Inzu cyane iriho amabati atukura, ikaba hari abantu babiri bari kumanika umurasire uzana umuriro muri iyo nzu, ukaba ari umurasire wa rutura uzajya ufasha abatuye muri iyo nzu ucana amatara ndetse no gukoresha ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Amazu meza cyane azwi ku izina rya kadasiteri akaba yubatse hamwe yose asa yubakishije amabati atukura imbere yaho hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse ririho na taransifa.

Umugabo ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, yambaye ijile ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi, yambaye agapfukamunwa n'ikasike mu mutwe, akaba aje gukanda kuri konteri ndetse no kuri kakoma kapupo umuriro kugira ngo abashe gukanika amashanyarazi.

Ku rugomero rw'amashanyarazi, hari ibyuma bikoresha umuriro w'amashanyarazi bitandukanye, aho ibyinshi muri byo biriho insinga. Bikaba biriho, insinga zambukiranya umuriro ziwujyana mu baturage.

Umugabo ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, yambaye ikasike, amarinete ndetse akaba yambaye igisurubeti cy'umutuku, ari mu nzu bakopiramo umuriro w'amashanyarazi, aho yaje kuwukupa kugira ngo abari kuwukoresha bawubure.

Umukobwa wambaye ikigofero cy'umweru. Yambaye itaburiya y'umukara, aho akorera ikigo k'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro mu Rwanda. Ari gukanda ku cyuma kugira ngo gifunguke akupore umuriro, abaturage bacane amatara.

Inyubako nziza cyane za guverinoma, akaba ari inyubako ziteye irangi ry'umweru zikaba zisakaje amabati y'icyatsi, ari munsi akaba ari mu kibaya aho hejuru hari umusozi mwiza cyane uteyeho ibiti.

Inyubako nziza ya Leta akaba ari ikusanyirizo ry'amata ikoreramo abagize koperative Katabagemu, inyubako ifite ibaraza riparitsemo moto ndetse nyirayo akaba akora muri iyi nzu.

Umuhanda muremure cyane ukaba uri gucamo amakamyo manini cyane ahetse ibiribwa bitandukanye, aho umuhanda ukikijwe n'inyubako zitandukanye za leta zisakaje amabati y'icyatsi.

Inyubako nini cyane ni igorofa igeretse rimwe ikaba yubakishije amatafari ahiye, ku rundi ruhande hakaba hari izindi nzu z'ubucuruzi ziriho ibaraza rinini cyane, aho hari imbuga irimo amapave.

Inyubako nyinshi cyane za leta, ziganjemo amashuri, aho abana bazajya biga, yaba abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, hagati y'izi nyubako, harimo umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa kiza cyane, giteye amarangi agaragaza ibendera ry'u Rwanda, hakaba hari n'ikirangantego cy'u Rwanda, akaba ari icyapa kigaragaza indangagaciro na kirazira by'umudugudu wa Kirindimure.

Inzu nyinshi cyane, ni inyubako za leta zikaba zubatse mu buryo bumwe, zubakishije amatafari ahiye ndetse zose zikaba zisakaje amabati y'umutuku. Ku ruhande rumwe hariho inzira y'abanyamaguru, aho harimo umugabo umwe uri kugendamo.

Kaburimbo nziza cyane imo imirongo y'umweruro hagati no ku ruhande, hakaba harimo twa turongo tw'umweru twambukiramo abanyamaguru aho hakurya ari inyubako nziza cyane zituwe n'abantu, ku ruhande rwa kaburimbo hari inzira y'abagenzi hakaba hari n'amapoto ariho amatara.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bicaye hasi, abandi barahagaze, aho baje kumva inama y'umudugudu kugira ngo bumve imigabo n'imigambi y'umuyobozi wabo ndetse n'uburyo bagomba kwiteza imbere bafatanyije.

Abagabo batanu barimo umupolisi umwe abandi bakaba ari abayobozi mu nzego zitandukanye. Batembereye mu cyaro aho bari guca mu nzira ikikijwe n'insina za fiya. Bakaba bahagaze bari kuzitegereza.

Imbaga nyamwinshi yateraniye hamwe, abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, muri bo harimo n'abapolisi aho bicaye bari kureba abantu bari imbere yabo bari bucibwa urubanza.

Habaye umuhango wo gushyingura abantu bitabye imana, imbere hakaba hari umugabo ufite ifoto y'umwe mu bitabye imana akurikiwe n'abasore bambaye amakoti bateruye imirambo mu masanduku.

Abaturage bateraniye hamwe, abenshi bicaye hasi barambirije. Mu gihe abandi bo bicaye ku ntebe bakaba bicaye imbere y'Umurenge wabo, aho bari guhabwa inyigisho n'umuyobozi w'Umurenge kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Umugabo w'umupadiri yambaye ishapule ndetse n'amataratara, akaba afite ururabo aho inyuma ye hari abantu babiri baje gusezera ku muntu witabye Imana ubona kuba bababaye cyane.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho imodoka ebyiri ndende ni ntoya. Aho hariho ikimenyetso cya Pa. Bivuga ngo hari ahantu baparika imodoka. Imbere yacyo hakaba hari imodoka ziparitse ndetse n'inzu nini cyane z'ubucuruzi.

Ni mu cyaro cya kure aho hari umuhanda w'igitaka udakoze neza, hari imodoka imwe iri mu bwoko bw'amaparado ihahagaze. Inyuma yayo hari abantu benshi cyane bisa n'aho aribo baje muri iyo modoka.

Icyapa kiza cyane kikaba kiri ku muhanda kikaba cyanditseho inyuguti e na na ivuga ko ari mu burasirazuba mu Karere Ka Nyagatare umuhanda wa cumi na gatatu, iruhande rwacyo hakaba hari igipangu kiza cyane cy'amatafari ahiye kiriho n'inzu y'agacurama.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi iyitwa rava kane, ikaba iwutembera mu muhanda ariko iriguca mu muhanda ucamo ibinyabiziga by'ibinyamitende nk'igare, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Ikibuga kiza cyane kirimo ibintu bizwi nka kona zifashishwa n'abantu baba bari kwiga gutwara ibinyabiziga aho bamenya aho gukatira ndetse n'aho guhagarika ibinyabiziga baba bari gutwara.

Muri gare y'umujyi hakaba hari akazu abagenzi bategererezamo imodoka gasakaje amabati y'ubururu hicayemo abantu benshi cyane aho bategereje ngo imodoka ize ibatware bakajya mu bice bitandukanye by'igihugu.

Muri gare ahari imodoka zitandukanye ziganjemo iza kwasiteri, ikaba ari imodoka y'umweru iri gutambuka mu gihe hari n'indi iparitse, harimo abagenzi bake bake bisa n'aho hakiri mu gitondo.

Ni mu kibuga ahantu bigira gutwara imodoka, hakaba harimo imodoka ebyiri bigiraho gutwara imodoka, ndetse hakaba hari na kona ifite iba ry'umutuku ndetse n'akabara k'umweru mo hagati, bituma umuntu amenya aho ahagarara.

Abagabo bane umusirikare umwe n'umupolisi umwe hagati yabo bakaba bicaye abantu b'abagabo, bose imbere yabo hari ameza ndetse na mikoro aho bari kuganiriza abaturage ububi bw'ibiyobyabwenge.

Abantu benshi cyane, bahuriye hamwe, bakaba bari kubyina bishimye cyane nyuma y'uko bari bamaze gukora umuganda rusange usoza ukwezi kwa gatanu.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego z'umutekano, kuko hariho n'umusirikare. Bahuriye hamwe ku munsi w'umuganda, aho bari gusibura ibinogo, kugira ngo amazi abashe gutemba neza.

Abagabo batatu bafashe amasuka abenshi muri bo bambaye inkweto zifunze mu gihe undi yambaye bote bari gusibura umuferege uzajya unyuramo amazi kugira ngo adasengera abaturage mu gihe yaba yayobye ntace mu muferege wababugenewe.

Abantu bane abaturage bakikijwe n'umugabo w'Umupolisi ndetse n'Umusirikare ku ruhande, bicaye mu busitani mu dutebe twa palasitike tw'icyatsi, inyuma yabo haparitse amagare mu gihe hakurya haparitse imodoka y,Abapolisi.

Abayobozi bakomeye mu nzego zo hejuru. basuye umudugudu, aho bageze no ku kigo cy'amashuri, bakajya kureba uko imyiteguro imeze, ahakorerwa ibitanda n'intebe abanyeshuri bazajya bakoresha.

Umugore wambaye amataratara mu mutwe, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi, aho ahagaze imbere y'imbaga. Abantu benshi cyane bicaye hasi, abandi bayobozi bakaba bicaye mu ntebe za palasitike zisa n'icyatsi, aho baje mu nama yo kuganira uburyo bwo kwiteza imbere.

Abantu benshi cyane biganjemo abari mu zabukuru, abagore bafite abana ndetse n'abandi, bahuriye hamwe, aho baje kureba umukino wahuzaga amakipe abiri yo mu midugudu yabo, mu mupira w'amaguru.

Umugabo wambaye ingofero yambaye ishati y'amaboko maremare itukura, akaba ahagaze imbere y'abandi bagabo babiri, afite mikoro, akaba ari kubasobanurira uburyo bwiza bakwiye kwirindiramo umutekano.

Umugabo wo mu cyaro yambaye umupira w'amako maremare akaba yikoreye amabuye abiri ku rutugu, bisa naho ari umunsi w'umuganda, inyuma ye hari umwana umureba ndetse akaba ari n'abandi bagenzi benshi cyane bari kugenda mu muhanda.

Abantu batatu, bakaba ari abakinnyi b'umupira w'amaguru. Umwe yambaye imyenda akoresha akina uyu umukino aho isa nu'ubururu, undi yambaye iy'umuhondo akaba ari umuzamu, undi yambaye ikabutura n'umupira bidasa. Bari gukina umupira w'maguru.

Ikibuga cyiza cyane cya sitade. Kikaba gikinirwamo imikino y'umupira w'amaguru, aho harimo abantu batanu bari gukina umupira w'amaguru, hamwe n'umwe uri mu izamu.

Igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi, kiriho ikirangantego cy'u rwanda, kikaba cyanditseho n'amagambo atandukanye, agaragaza uko amakipe y'abagore azajya akina bakinira igikombe cy'Umurengeye Kagame cup.

Abana babiri bambaye imyenda y'umutuku. Bakaba ari abana bari kwiga gukina umukino wa karate, aho ubona ko babizi neza kuko batangiye bakiri abana bato bakaba bamaze kujijuka.

Abagabo bakina umupira w'amaguru, bakaba bari mu kibuga, aho bambaye imyenda bakoresha imyitozo ngororamubiri, bamwe bambaye y'ubururu, undi umwe yambaye iy'umutuku ujya kuba kuba umuhondo, mu mugihe undi yambaye umweru.

Abakinnyi babiri bakaba bari muri sitade bonyine, umugabo umwe yambaye imyenda y'umuhondo mugihe undi yambaye iy'ubururu, bakaba bari gukina bitoza umukino bafitanye ku munsi w'ejo aho bazaba bacakiranye.

Abakinnyi batandukanye b'abagabo. Bakina umupira w'amaguru, bari mu kibuga aho ari abakinnyi b'amakipe abiri, bamwe bambaye amakabutura y'umuhondo n'imipira y'umweru, abandi bakaba bambaye iy'umukara n'imipira y'ubururu ndetse harimo n'umusifuzi ufite karita mu ntoki, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo.

Ni mu cyaro ahari umuhanda w'igitaka, ni umuhanda mwiza cyane ufite umuferege haruguru hepfo yawo hari igipangu cyubakisheje amatafari ahiye ndetse epfo y'icyo gipangu hakaba hari inzu nini cyane y'agacurama.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba afite umurongo w'umweru ku ruhande ndetse hakaba haragenwe n'ahantu ibinyabiziga biparika, hepfo y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo ndetse hirya y'iryo shyamba hariyo n'izindi nyubako.

Umuhanda wo mu cyaro ukaba ari umuhanda w'igitaka ,urimo ibinogo kuko gucishamo imodoka bigoranye cyane. Ku ruhande hakaba hari ikinani kirimo ubwatsi bugufi kuko nta biti na bito biteyemo.

Abantu babiri, ni abakobwa bose bambaye amapantalo, bakaba bari gutambuka mu umudugudu kuri kaburimbo. Imbere yabo hakaba hari amapave, mugihe ku ruhande hari inzu z'ubucuruzi.

Kaburimbo nziza cyane ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, hakaba harimo n'umugenzi uri kugendera muri kaburimbo aho ari umunyeshuri, hepfo y'umuhanda hari inzu nyinshi cyane z'ubucuruzi.

Icyapa kiza cyane gisa n'umweru. Kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, kikaba kiriho amabara agize idarapo ry'u Rwanda. Kikaba ari icyapa kerekana ko habura ibirometero ijana na mirongo ine ngo umuntu agere ku rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare.

Umuhanda mwiza cyane uri mu cyaro ukaba ari umuhanda usukuye neza w'igitaka, ruguru hakaba hari umuferege ukoteye n'amabuye, munsi y'umuhanda harimo inzu imwe y'agacurama isakaje amabati atukura.

Inzira y'abanyamaguru ikaba ari nzi iriho beto, mu gihe hirya ku rundi ruhande hari amapave, akaba ari inzira iri ku muhanda wa kaburimbo mu ruhande rw'ibumoso.

Umuhanda mwiza cyane w'amabuye, uri kugendamo umugabo uri ku igare ndetse inyuma ye hakaba hari imodoka, kuhande hari inzira y'abagenzi, nayo ikaba iri kugendamo abagenzi babiri.

Umuhanda wo mu cyaro akaba ari umuhanda w'igitaka utarimo kaburimbo, iruhande rwaho hakaba hagiye hari ibinani ndetse muri uwo muhanda hakaba hanyanyagijwemo imyanda, bisa naho nta bantu bo kukubura bahaba.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru inyuranamo, kuhande hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru aho abanyamaguru baca, mu muhanda harimo umugabo usunika igare rihetse intebe nini cyane z'imifariso.